Aho bacururiza amayinite usanga bafite utuzu bajyamo abantu bayacuruza. Mu rwego rwo kwirinda imvura n'izuba ndetse n'abajura bashobora kubiba igihe baba batari muri utwo tuzu.

Akazu k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda cyitwa Airtel. Kakaba gasize irangi ry'umutuku, gafite n'inyuguti zanditswe mu irangi ry'umweru.

Ibigo by'itumanaho nka airtel na MTN bikorera mu Rwanda, bifite akamaro kanini ku Gihugu cyacu .Kubera ko bitanga interineti twifashisha tujya kuri murandasi.

Abahagarariye ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda bakunze gukorera mu tuzu tw'umutuku kandi tubakingira izuba kugira ngo bajye bakora igihe cyose.

Ibigo byo kwizigamiramo byaba ibiciriritse cyangwa se ibikomeye tugomba kubyitabira nk'abaturage kubera ko bitugirira akamaro.

Ikigo k'itumanaho cya MTN. Gifite imibare ukanda ari yo akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri urwego kugira ngo wohereze amafaranga. Iyo uyayobeje urabahamagara bakagufasha.

Abantu bambaye neza harimo abazungu ndetse n'abirabura bigaragara ko bafite ibigo by'imari bahagarariye.

Ibigo by'imari biciriritse bigomba kwita mu gutanga inguzanyo, kubera ko abanyamuryango babyo baba babikijemo amafaranga, kandi bayakenera bagiye gukora imishinga itandukanye, ugasangayo bashyizemo adahagije, niyo mpamvu rero babisaba kugira ngo bagurizwe.

Amacupa y'umukara ndetse n'andi ariho ibintu by'igitare bimeze nk'ibipapuro, ndetse n'imisego isa umuhondo bisa nkaho byasohowe aho banywera inzoga.

Amaduka acuruza inzoga agomba gusoreshwa amafaranga menshi cyane kubera ko izi nzoga ari zo zituma abantu batagira ubuzima bwiza.

Amacupa y'inzoga ateretse ahantu heza cyane hasa nko ku meza, izi nzoga bigaragara ko zihenze cyane kubera ko ari nini.

Igikoresho kizwi nk'ameza, gikoze mu biti cyangwa se imbaho, gisize amarangi y'umutuku, giteretse mu nzu iteye irangi ry'umweru.

Amaduka aciriritse yo mu cyaro, usanga acuruza ibintu byinshi, ibyo kurya nk'ibirungo, ariko nanone usanga ari imbogamizi kuri Leta kubera ko aba adasora.

Iduka rito ririmo ibicuruzwa birimo inzoga, amakaye, imyenda yo kwambara ku bagabo y'imbere, amacagi, umunzani n'akadobo.

Ibicuruzwa birimo amasabune y'isuku, amavuta yo kwisiga n'ayo guteka ndetse n'umunyu. Usanga biboneka muri butike.

Mu nsengero zigiye zitandukanye usanga abavugabutumwa ndetse n'abayoboke babo bishimira igikorwa cyo gutura kuko gutura ari byiza nkuko Imana yabitegetse.

Igihe cyo gusenga abakiriristu bagomba kwicuza ibyaha bakoze kugira ngo imana ibababarire, niyo mpamvu abapasiteri cyangwa abapadiri badushishikariza kwicuza ibyaha.

Mu macumbi y'abantu rusange cyangwa se abashyitsi, haba hari abashinzwe kugabura ndetse n'abashinzwe kujyana ibiryo ku babisabye.

Ahantu hose hagomba gushyirwaho amacumbi abantu bararamo ndetse n'aho barira kubera ko iyo aho hantu hadahari usanga abahasura babura aho barara ndetse n'ibyo barya.

Icyumba cyiza kirimo umusego, igitanda ndetse gishashe neza kiri ahantu bakunze kuza abashyitsi cyangwa se nk'abakerarugendo.

Amazu bacumbikamo akenshi akunze kugira isuku, haba iyo mu nzu mo imbere ndetse no mu biribwa kubera ko aganwa n'abantu bagiye batandukanye.

Abazunguzayi baraciwe mu turere tugiye dutandukanye kubera ko ari bamwe mu batezaga imyanda kandi ntibishyure n'imisoro. Ubungubu bahawe amasoko.

Igihe cyose ufite umushinga ugomba kwamamaza niba ubishaka rero wegera amaradiyo nka RBA waba utabishoboye ukegera abaturage.

Mu bice by'icyaro usanga hariyo amasoko aciriritse .Aha bacuruza imyenda ya caguwa ,imisambi ndetse n'ibindi bikoresho abantu bifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Mu isoko ahari ibitoki ndetse n'abantu barimo kubigurisha, baje gushaka abaguzi kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha.

Abantu bari gucururiza ku muhanda, harimo abafite akadobo k'amagi, abandi barimo gucuruza amakara, ibitoki, amabase n'ibindi.

Abaturage baba bari mu isoko usanga bagiye guhaha ibintu bitandukanye, harimo inyanya, intoryi, amavuta yo guteka n'ibitunguru.

Mu isoko usangamo ibintu bitandukanye, harimo indagara, umunyu, imihini ndetse n'amakara. Abacuruzi baba bagomba gusorera ibyo bazanye.

Igihe cyose uri kugenda mu muhanda, ugomba kugenzura niba wambaye kasike, wambaye akajiri kandi uri kugendera mu mukono wawe. Kubera ko utabikoze gutyo, ushobora guteza impanuka maze ukaba wasiga ubuzima.

Ibinyabiziga nka moto, amagare, imodoka yewe n'indege ni byiza kubera ko bifasha abantu gutwara imizigo ndetse n'ibyabo mu buryo bwihuse cyane.

Moto nziza cyane iparitse ahantu heza ifite pulake ya ra na e kane, ikenda, karindwi, da.

Imodoka nziza cyane iri kugendera mu muhanda ukoze neza cyane wa kaburimbo akaba ari nta muntu, cyangwa se ikindi kiri mu muhanda gishobora guteza impanuka.

Mu turere tw'imirambi ni ukuvuga tutari utw'imisozi, abantu bakunze kwitegera amagare kubera ko ariyo ahendutse ariko nanone mu turere tw'imisozi ntabwo wanyonga igare.